Ni nziza ko abaturage bagomba guhiga ndetse bakanahigura imihigo bahize bikorewe mu Masibo yabo kuko bibafasha kuzamuka mu iterambere.

Mu Rwanda dufite amahirwe y'abayobozi bagiye batandukanye, baza kuduha inama y'uburyo twakwitwara, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

ni byiza ko abayobozi b'ibigo bitandukanye batwigisha uko twashora amafaranga yacu, bityo rero tukabasha kwiteza imbere.

Mu Rwanda haje uburyo aho usanga abaturage bahurira hamwe rimwe mu kwezi bagakora siporo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ni ngombwa ko abayobozi bagira ahantu bahurira bakaganira ku bintu bigiye bitandukanye bityo rero bagafata n'umwanzuro bagashobora kwiteza imbere.

Ni byiza ko abayobozi bahurira ahantu habugenewe, bakaganira ku bibazo biri mu Gihugu ndetse bakareba uko babikemura, bakanabifatira n'imyanzuro.

Ni byiza ko inzego z'umutekano zatugira inama y'uko natwe twakwirindira umutekano bityo rero tugafashanya hagati yacu tukagira igihugu gitekanye.

Ni byiza ko tugomba guhura tukaganira ku bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyateza imbere igihugu kuko biratwubaka kandi bikadufasha no mu iterambere.

Ni byiza ko buri Karere cyangwa se buri Mudugudu abaturage bagakwiye guhurira hamwe bakagira ibyo biga bitagenda neza ndetse n'uburyo bashobora gukoresha amahirwe bagira biteza imbere.

Ni byiza ko igihe mwahuriye ahantu mukaganira ku bintu bitandukanye, mugomba no gufata ifoto y'urwibutso.

Ni byiza ko ubuyobozi bwegereye abaturage, bityo rero iyo, habaye ikibazo, babanza kugikemurira mu isibo, bitabanje kugorana, byakanga bakabona kubyohereza, ku rwego rwo hejuru.

Ese wari uzi ko buri gihugu ki gikoresha, umuco wacyo, ibihugu byose byazabana mu mahoro, bitabanye mu makimbirane?

Ni byiza kubyina ukishima kuko bigufasha mu buzima bwa buri munsi kumva uruhutse ndetse utuje mu mutwe bityo rero bikarinda ubuzima bwawe kuba bwahura n'ibizazane bigiye bitandukanye.

Ni byiza gukomera ku muco gakondo nk'abanyarwanda, aho usanga mu mbyino gakondo abantu bakoresha imyirongi kugira ngo birusheho kuba byiza.

Ni byiza ko buri Gihugu cyakoresha umuco gakondo wacyo kuko bifasha kwiyibutsa ahashize haho heza bityo rero bakabona uko babyuririraho bakomereza ku muco wabo.

Ni ngombwa ko buri gihugu cyajya gikoresha umuco gakondo wacyo, kuko bifasha abagituye kwiyumvamo ko ari abene gihugu ba nyabo.

mu rwanda dufite umuco wo kubyina imbyino gakondo, aho usanga uturere tugiye dutandukanye, abantu bakomeza kuguma kuri uwo muco wo kubyina imbyino gakondo bigatuma duteza igihugu cyacu imbere.

Ni byiza ko mu gihe uri gukora mu mashanyarazi ugomba gukoreshamo ibikoresho byabugenewe kuko iyo udakoze ibyo bishobora kuguteza impanuka bityo rero ubuzima bwawe bukajya mu kaga.

Mu Rwanda dufite ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu turere twose tw'Igihugu. Bityo rero bituma buri karere gatera imbere ndetse nta muturage ugira ikibazo cy'umuriro.

Ni byiza ko tugira umuriro w'amashanyarazi, kuko bidufasha mu buzima bwa buri munsi, uturinda kujya mu kizima ndetse tugashobora no kubona neza.

Ni byiza ko ahantu hose hari amashanyarazi hagomba kuba hari n'abantu babyigiye babizobereyemo kugira ngo mu gihe hazaba inkongi haboneke abantu bazabafasha kuyizimya.

Mu Rwanda bari gushishikariza urubyiruko kwiga cyane ibintu bijyanye n'amashanyarazi kuko usanga abakozi bakora mu by'amashanyarazi bakiri bakeya ugereranyije n'indi mirimo.

Ni ngombwa ko buri muhanda wagira kamera kuko ifasha abayobozi babishinzwe kumenya uko ibinyabiziga bigenda mu muhanda, mu gihe ikinyabiziga gifite umuvuduko uri hejuru gishobora guhanwa bitewe n'uko kiba cyarenze ku mategeko.

Ni ngombwa ko buri mudugudu wagira igicumbi k'itorero kuko bifasha uhagana kumenya indangagaciro ndetse na kirazira ziranga abanyarwanda.

Ni byiza ko tugira ibigega dufatiramo amazi y'imvura, kuko mu gihe amazi ya robine yabuze ayongayo tuba twafatiye mu bigega, adufasha gukoresha ibintu bitandukanye.

Ni byiza kwimakaza isuku ahantu hagiye hatandukanye haba mu bigo by'amashuri, haba mu masoko agiye atandukanye ndetse n'ibigo nderabuzima.

Ni byiza ko buri karere kagomba kugira inyubako nziza ndetse n'imodoka n'inzego z'umutekano kuko bigafasha cyane mu buryo bwo kwiteza imbere ndetse no kurinda umutekano wako.

Mu Rwanda dufite amahirwe y'uko dufite abayobozi bagiye batandukanye, bakira abanyarwanda bene wacu, bavuye hanze y'Igihugu cyacu, bakaza bakabaha amacumbi ndetse bakabitaho.

Ni byiza kubaka ibiraro kuko bifasha abagenzi kugenda nta nkomyi ndetse bikanatuma imodoka zidakora impanuka mu gihe imihanda ari mibi.

Tugomba gukora umuganda rusange, kuko, kwihuriza hamwe nk'abaturage, bidufasha kungurana ibitekerezo, tukareba igikwiye gukorwa.

Mu rwanda dufite inganda, nyinshi zigiye zitandukanye, urugero nk'uruganda rw'Inyange rutunganya amata, akwirakwizwa, mu turere twose tw'Igihugu, ibi bigafasha abaturage ndetse n'abana bakiri bato, kubona amata ku gihe.

Ni byiza ko buri muhanda wose wa kaburimbo, ugomba kugira n'akandi gahanda k'abanyamaguru, kuko bibafasha kwirinda impanuka zigiye zitandukanye.

Ni byiza ko tugomba kugira umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga kuko bifasha ibinyabiziga mu gihe iyo umuhanda ari mwiza kudakora impanuka ndetse no kwangirika.

Mu Rwanda haje iterambere, aho usanga barubatse ibiraro, biri hejuru mu kirere, bifasha abantu, gukomeza gutembera ndetse no kwishima.

Ni byiza ko buri Murenge wagira ibiro byo gufashirizamo, abaturage igihe baje bawugana kuko birinda kuba basiragira bajya gushaka ibisubizo ahandi.

Mu Rwanda haje uburyo bwo guteza imbere Uturere tugiye dutandukanye, aho bagenda bubaka amasoko abaturage babasha gucururizamo, ibiribwa bigiye bitandukanye bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni byiza ko tugira ingabo z'igihugu kuko ziturwanirira aho rukomeye zikanatumenyera umutekano.

Buri gihugu kigomba kugira inyubako nziza, zikajya zigendererwa n'abantu benshi bityo rero ibyo byinjiza amafaranga menshi kuko izo nyubako ziba zikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Dufite iterambere, dukesha, ubuyobozi bwiza ndetse n'imiyoborere myiza, aho usanga buri karere, gafite sitade abakinnyi babasha guhuriramo, bagakina umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino igiye itandukanye.

Ni byiza ko abayobozi bajya bafata umwanya, bakavuga ku bintu bigiye bitandukanye, harimo gukemura ibibazo by'abaturage, ndetse bakabona n'uburyo bafata imyanzuro kuri ibyo.

Ni byiza ko abayobozi bihuriza hamwe, bagatembera mu mirima y'abaturage, bareba uko ibikorwaremezo bimeze ndetse bityo rero bagashobora gufata imyanzuro y'ibyo bakora ndetse n'ibyo bahindura, rero bakabona uko biteza imbere.

Mu Rwanda dufite ubuyobozi bwiza aho usanga abaturage bahura bakaganira buri wese agahabwa ijambo ndetse agahabwa n'umwanya wo kuvuga ibibazo cyangwa ibyateza imbere sosiyete abayemo.

Ni ngombwa kugira indangagaciro ndetse na kirazira kuko bifasha umuntu uwo ari we wese kumenya ibyo agomba gukora n'ibyo atemerewe gukora.

Ni byiza ko abantu bahura bakiga ku buzima ndetse n'uburenganzira bwa muntu, kuko bituma abantu batagirana amakimbirane n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Ni byiza ko abayobozi hamwe n'inzego z'umutekano bajya kureba ahantu hagiye hatandukanye bakita ku burenganzira bwa muntu ndetse bagashobora no kuburenganura.

Ni byiza ko abayobozi baganiriza abaturage bakavuga ku bintu bigiye bitandukanye, kuko bibafasha gufata umwanzuro w'ibibazo byose bafite.

Ni byiza ko abaturage bahurira hamwe, bakaganira ku bibazo bafite ndetse bakagirana n'inama ku byo bagomba gukora kandi bibafitiye akamaro.

Mu Rwanda dufite amahirwe y'uko abayobozi bihuriza hamwe n'abaturage, bakumvikana, bagakora umuganda ugamije guteza imbere Igihugu bityo rero bakumva ko bashoboye.

Ni byiza ko abayobozi bahuza abaturage babigisha uko bagakwiye guhabwa ubutabera, ndetse n'uburenganzira bw'ibyo bagomba gukora neza.

Ni byiza ko abayobozi bagenda bakangurira abaturage ko hari ubutabera mu Rwanda, ndetse n'amategeko arengera ubuzima bwa muntu.

Inama iherutse kuba ihuza abayobozi bagiye batandukanye mu Karere ka Nyagatare, bigishaga abaturage ko bafite uburenganzira ndetse n'ubutabera bwo kujya kurega abantu babasha kubabwira nabi cyangwa batuma batiteza imbere.

Mu Rwanda dufite amamodoka agiye atandukanye abasha gutwara abantu bagiye mu turere dutandukanye, urugero nk'amabisi, Litco ndetse n'ayandi.

Ni byiza ko buri karere kagira imodoka yako ndetse n'umuhanda mwiza kuko bigafasha mu iterambere rirambye kandi bikarinda n'abaturage, bibafasha mu bibazo byabo bigiye bitandukanye.

Mu Rwanda dufite ibinyabiziga bitandukanye harimo amagare na moto, aho usanga amagare akunze gukoreshwa cyane n'abantu kuko ahendutse.

Ni byiza kugira imihanda myiza irimo kaburimbo kuko birafasha cyane, niyo umuntu afite imodoka bimurinda gukora impanuka za hato na hato.

Mu rwanda usanga mu mihanda igiye itandukanye, harimo ibyapa bibasha kuyobora ibinyabiziga kugira ngo birinde impanuka.

Ni ngombwa ko muri buri muhanda hagomba kubonekamo inzira y'abanyamaguru kuko iyo irimo birinda impanuka nyinshi kuko iyo imodoka ije ikabona umugenzi ari gutambuka n'amaguru ntabwo yamugonga. Ibyo rero ni intambwe nziza Igihugu cyagezeho.

Mu Rwanda haje uburyo bugiye butandukanye, aho usanga abayobozi bapanga igikorwa cy'umuganda kugira ngo abaturage bahurire hamwe bagire byinshi bigaho.

Ese wari uziko, buri gace kose k'igihugu, ubu gasigaye gafite abakoranabushake. babikora neza kandi babikora babikunze.

Ni byiza ko abaturage bifatanya n'inzego z'umutekano, bagashobora gukora igikorwa runaka, urugero nk'umuganda ndetse n'ibindi bikorwa biteza imbere igihugu.

Mu rwanda dufite amahirwe y'uko usanga umutekano ari wose, mu turere tugiye dutandukanye. Usanga abayobozi bamwe na bamwe bifatanya n'abaturage mu gusukura ibidukikije kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Umuturage ku isonga, usanga Uturere tugiye dutandukanye dutegura ibirori aho abayobozi batandukanye baba bahari bakaganiriza abaturage, bakanywa ndetse bakishima.

Mu Rwanda haje uburyo bwo gufasha abaturage bagiye batandukanye binyuze mu gukora umuganda kuko bituma bagira isuku ndetse bakagira n'ubuzima bwiza.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane habaye igitaramo cyo gusoza urugerero rw'inkomezabigwi cumi na kabiri byabereye mu Karere ka Nyagatare.

Ni byiza ko abaturage bihuriza hamwe bagakora umuganda rusange bakaganira ndetse bakiga n'ibyabateza imbere.

Ni byiza ko abayobozi bihuriza hamwe n'abaturage bakaganira, bakishima ndetse bakungurana ibitekerezo byinshi kandi bike bitandukanye.

Siporo ni isoko y'ubuzima, siporro iherutse kuba yahuzaga urubyiruko ruturuka mu Murenge wa Nyagatare aho abana bagiye batandukanye bitwaye neza bahawe ibikombe.

Ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri kuko ifasha ubuzima bwacu kumva utuje bikagabanya umunaniro ndetse bikarinda no kwigunga bikabije.

Siporo ni isoko y'ubuzima ni byiza ko twajya dukora siporo, kugira ngo tunanure amagufa yacu ndetse tunabashe kugirana ubucuti n'abandi bantu baturuka mu turere dutandukanye.

Ni byiza ko amakipe yakwihuza agakina umupira w'amaguru kuko bibafasha kwishima ndetse no kongera ubucuti hagati yabo.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza kuko ifasha uyikora kumva ko atuje kandi atekanye bityo bikamurinda indwara zigiye zitandukanye.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubirigo kuko ifasha uwayikoze kumera neza ndetse ikanamuvura umunaniro ukabije.

Gukora siporo ni byiza mu buzima kuko bifasha abantu batandukanye kugira ubuzima bwiza, gutekereza neza ndetse bikabarinda n'ibibazo bigiye bitandukanye.

Siporo ni isoko y'ubuzima, ni byizayiza gukora siporo kuko ituma amagufa ananuka, umuntu akagira ubuzima bwiza ndetse bikanatuma yiteza imbere mu byo akora byose.

Ubuyobozi bwegereye abaturage kuko usanga iyo habaye igikorwa runaka, nabo ntago bahezwa ahubwo bavuga ikibari ku mutima ndetse n'ibyiyumviro byabo cyane cyane ku byerekeye siporo.

Siporo ni isoko y'ubuzima. Ni byiza ko dukora siporo kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza, amagufa yacu, ananuka ndetse tunirinde n'ibibazo bindi bigiye bitandukanye.

Gukora siporo ni byiza, bituma abantu batandukanye, bagirana ubucuti hagati yabo, bigatuma bagira ubuzima bwiza ndetse n'amagufa yabo akananuka.

Ni byiza ko dushishikarizwa gukora siporo kuko ari inkingi ikomeye ituma ubuzima bwacu bugenda neza.

Tugomba gukora imyitozo ngororamubiri kuko idufasha kugabanya umunaniro ndetse n'agahinda gakabije.

Ni byiza ko tugomba gukora imyitozo ngororamubiri, kuko ifasha uyikora kumva ameze neza ndetse no kugororoka mu mubiri we.

Siporo ni nziza mu buzima tugomba kuyikora kuko ifasha umubiri wacu kugororoka ukamera neza.

Siporo ni isoko y'ubuzima, ni byiza ko dukora siporo, kuko binanura amagufa ndetse igatuma tugira n'ubuzima bwiza.

Ni byiza ko abantu bihuriza hamwe bakamamaza ibintu bigiye bitandukanye. Urugero nka Banki Nkuru y'u Rwanda, kuko idufasha kutubikira amafaranga ndetse ikanatubikurira.

Tugomba gukora imyitozo ngororamubiri, kuko ifasha umubiri wacu kugororoka, ndetse no gutekana.

Siporo ni nziza mu buzima kuko ifasha uyikora kugira ubuzima bwiza ikamurinda indwara za hato na hato bityo akabaho neza yishimye.

Mu gihe turi kugenda n'amaguru ni byiza ko tugenda mu gahanda k'abanyamaguru kugira ngo twirinde impanuka zitateguwe.

Byizayiza ko tugomba gushira imihanda myiza mu byaro, kuko bifasha abaturage ndetse n'abandi bagenderera, kubona hakehe kandi bakaba babona ko nta mpanuka zaberamo.

Ni ngombwa ko iyo abanyeshuri bari kuva kwiga bagomba kunyura mu gahanda k'abanyamaguru kuko bibarinda kuba bakora impanuka zitateguwe.

Tugomba kujya mu mihanda yo mu byaro, igihe dusanze itameze neza tukabasha kuyikoramo umuganda tukayikora neza kugira ngo imodoka ndetse n'abantu bazajye bayinyuramo bitabagoye.

Mu rwanda dufite amahirwe kuko usanga dufite imihanda myiza, aho imodoka zigenda nta kibazo, zitabangamira abantu ndetse nabo bakagenda mu kayira kabo, nta mbogamizi bafite.

Mu rwanda dufite amahirwe, kuko usanga buri turere twose tw'igihugu haragezeyo umuhanda ufasha ibinyabiziga kujyana ibintu mu buryo bwihuse kandi vuba.

Mu Rwanda dufite amahirwe kuko usanga buri karere harimo umuhanda mwiza, bityo ufasha abantu kugenda nta kibazo ndetse ugafasha n'ibinyabiziga gutwara ibyo bafite mu buryo bwihuse.